inzu ifite amadirishya y'umweru, umuntu uri gusohoka ku muryango yambambe umupira usa n'iroza, amabati y'umukara akabaraza k'amakaro y'umweru, imbuga y'umweru y'amapave ndetse n'ibyatsi